Icyumba gikorerwamo inama, kicayemo imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abagabo. kirimo ibyapa bitandukanye, higanjemo ibifite ubuso birimo mu ibara ry'umweru. Kirimo umugore wambaye amarinete, wicaye imbere ye hari ameza manini, ariho ibitambaro, ndetse n'ibikoresho bitandukanye.

Inzu nini ikorerwamo inama. Isizwe irangi ry'umweru ndetse irimo icyapa kirimo ubuso bw'ubururu. Kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda. Hirya gato hicaye imbaga nyamwinshi y'abana higanjemo abagabo. Harimo umugore ufite imisatsi y'umukara ndetse wambaye ishati y'umweru.

Abantu harimo abagabo ndetse n'abagore bicaye mu cyumba kinini cy'inzu mberabyombi barimo barahabwa inama ku bintu bitandukanye.

Icyumba kinini kirimo urumuri gikorerwamo inama cyicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagore, harimo umugabo wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu iruhande rwe hari umugore ufite imisatsi y'umukara wambaye ikanzu iri mu ibara ry'umutuku ndetse yambaye agashanete mu ijosi, imbere ye hari umugore ubyibushye wambaye ishati y'igitenge.

Umugabo wambaye ishati ya kaki, ipantaro y'ubururu inyuma ye hicaye abantu batandukanye aba mama, aba papa ndetse n'umupolisi wicaye mu ihema rifite ibara ry'umweru, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye, imbere yabo hari abagabo batatu bicaye ku ntebe z'umukara, umwe arahagaze afite mikoro yambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma y'aho hari icyapa kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda gifite ubuso bw'ubururu.

Abantu batandukanye, abapapa n'abamama, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza, inyuma yabo hari igikuta cy'ubururu, hari ibikoresho bakoresha bafata amashusho.

Umusore ukiri muto afite icumu mu ntoki ndetse n'ingabo, yambaye n'imigara arimo arahamiriza.

Abari beza, barimo ababyina imbyino gakondo, bashananiye bambaye imishanana y'umukara, ndetse n'ikanzu z'umweru, bateze urugori, barimo baraseka, biragaragara ko bishimye.

Agakoresho ko mu muco wa kinyarwanda kitwa icyansi. Kifashisha mu kunywa amata, mu kuyabika ndetse kabajwe mu giti. Kararamba ntigapfa vuba.

Ikirago kiboshye neza, cyicaweho n'umukobwa mwiza, ufite agacuma mu ntoki karimo inzoga ndetse ari kunywa akoresheje umuheha, kandi yiteze igitambaro kigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umutuku. Inyuma ye hari ibikoresho bya kera bigaragaza umuco nyarwanda.

Ikibuga kirimo ibyatsi, kirimo intore zitandukanye higanjemo abakobwa n'abahungu, harimo umukobwa wambaye umukenyero w'umukara ndetse n'agasengeri kari mu ibara ry'ubururu, iruhande rwe hari umusore ufite icumu, ndetse inyuma ye hari icyapa gifite ubuso bw'umweru, ndetse n'itente rigizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'mweru.

Itente rigizwe n'amabara atandukanye, higanjemo iry'umweru, ryicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu, ndetse hari tapi igizwe n'ibyatsi biri mu ibara ry'icyatsi. Iriho umukobwa uri kubyina imbyino gakondo, wambaye imikenyero iri mu ibara ry'umweru.

Urujya n'uruza rw'abantu, bafite amasuka ndetse n'ibitiyo biragaragara ko bavuye ku muganda, bamwe ni abagabo abandi ni abagore bari mu muhanda w'ibitaka.

Icyumba kinini kirimo urumuri, kirimo abasore n'inkumi batandukanye bari kubyina imbyino gakondo. Kirimo umukobwa mwiza ufite ibisuko by'umukara, wambaye urunigi rw'umweru mu ijosi, isengeri y'umweru ndetse n'umukenyero w'umweru. Ari kubyina yarambuye amaboko. Hirya ye gato hari umusore wambaye imyenda y'umukara ndetse n'umukenyero uri mu ibara ry'umuhondo uri kubyina.

Umusore uri kubyina imbyino za kinyarwanda, yambaye ishati y'umweru, urunigi ruri mu mabara ry'umweru n'umukar,a ipantaro y'umukara, yambaye n'amayugi, inyuma hari abantu batandukanye barimo kumufata amafoto.

Akibo karimo imirongo y'umukara ndetse n'umweru, gateretse ahantu heza, iki kibo kifashishwa igihe Umunyarwanda atuye undi, ashyiramo ibishyimbo cyangwa se n'ibindi akamushira.

Umukobwa mwiza yambaye imyambaro ya kinyarwanda, yambaye urunigi mu ijosi, inyuma ye hari undi mukobwa nawe wambaye imyenda ya kinyarwanda, barimo barabyina imbyino za gakondo.

Umusozi uriho ishyamba rigizwe n'ibiti bitandukanye uriho umunara ufite insinga zifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, ni ngombwa gufata neza amashanyarazi kuko atuma tubaho neza dufite ubuzima buri mu mucyo.

Ipoto ikwirakwiza umuriro w'amashanyarazi hariho umukobwa wambaye ingofero y'umuhondo n'itaburiya y'ubururu, umuriro w'amashanyarazi ni mwiza ufasha abaturage kwiteza imbere bakora ibikorwa bitandukanye.

Umusaza yagiye kwimyoza muri salo. Barimo baramwogosha, umuhagaze iruhande ni umukwaferi wambaye agapfukamunwa.

Icyuma kirimo umugore uri kudoda n'imashini z'ubudozi zitandukanye, harimo ifite ibara ry'umweru umukara ndetse n'ubururu, imbere ye hari ibitenge by'amabara atandukanye.

Icyumba kirimo urumuri gisizwe irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gusigasira amashanyarazi, ndetse kirimo umugabo w'umuzungu wambaye ingofero iririmo ibara ry'umuhondo, ndetse n'umupira w'umukara. Iruhande rwe hari umugabo w'umwirabura wambaye ingofero iririmo ibara ry'umweru, ndetse n'umupira w'umukara.

Umunara munini wubakishijwe ibyuma ndetse uriho insinga nyinshi, zifashishwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, iruhande rwawo hari umusozi muremure uriho ibiti byinshi, hejuru hari ikirere kiri mu ibara ry'umweru.

Ibyuma bikoreshwa mu gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi, umuriro w'amashanyarazi ni mwiza kubera ko ukoreshwa imirimo itandukanye, abaturage bakiteza imbere.

Amapoto abiri akozwe muri sima, hagati yayo hari icyuma kifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, imbere gato hari itara rimurika ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga byiyifashishwa mu gusigasira umuriro w'amashanyarazi.

Ipoto rinini rikozwe mu byuma ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, ririho abakozi bambaye impuzankano igizwe na kasike zirimo ibara ry'ubururu ndetse n'amasarobeti ari mu ibara ry'ubururu bwijimye, umwe muri bo yambaye inkweto zifite ibara ry'umukara.

Ipoto ikwirakwiza amashanyarazi mu baturage, umuriro w'amashanyarazi ni mwiza, utuma abanyeshuri bakora etide n'indi mirimo igakorwa nkubwogosha n'ububaji no gusudira mu buryo bworoshye.

Inyubako ifite umuzenguruko mu ibara ry'umweru, isakaro ry'umukara, mu mbuga hari amapave n'ururuzitiro rw'umweru.

Inzu ifite amabara y'umuhondo, ubururu umwetu ndetse n'umukara, imbere yayo iburyo hari igiti, ibumoso hari ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda mu kabaraza yicayemo umugabo.

Icyapa gishinzemo ibyatsi kigizwe n'ubuso bw'icyatsi, cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, ndetse kiriho ibimenyetso bitandukanye, hirya yacyo hari umuhanda munini w'umukara urimo imirongo itandukanye irimo ibara ry'umweru, ndetse imbere gato hari inyubako nyinshi zitandukanye higanjemo izigeretse.

Sitade ikinirwamo imikino igiye itandukanye, harimo abakinnyi barimo barakina umupira, wambaye jezi zitandukanye barimo barirukanka ku kumupira.

Abantu batandukanye bicaye ahantu hari ibiti, hari intebe n'ameza, inyuma yabo hari inzu ifite ikigega.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, umupira w'umweru, imbere ye hari bafure z'umukara zifashishwa mu gukwirakwiza amajwi ndetse n'ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara imizigo kiri mu ibara ry'umweru, imbere gato hari ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru.

Ikigo nderabuzima ahatangirwa serivise z'ubuzima, ni inzu isize irange ry'ubururu, isakajwe amabati ndetse iruhande rwayo hari umunara wa Canal.

Inyubako nini iri ahantu hatuje gusa isa nk'aho iri munsi yumusozi, iruhande rwayo hari umuhanda munini uriho n'amatara ahumurikira, biragaragara ko ari ibikorwa remezo.

Ikinyabiziga cya moto kiri kunyura ku kiraro kirekire gitwawe n'umugabo wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku ndetse n'umupira ugizwe n'amabara atandukanye higanjemo iry'umweru, wanditseho nimero icumi mu ibara ry'umukara ndetse yambaye ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Umuhanda w'gitaka, urimo igare ritwawe n'umuhungu, hirya ye hari igipangu gisigaze irangi ry'umweru, kirimo inzu isakajwe amabati y'ubururu, hirya yayo hari imodoka iparitse, yifashishwa mu gutwara imizigo, ifite shitingi iri mu ibara ry'ubururu.

Umuhanda munini w'umukara hirya yawo hari umuyoboro w'amazi, imbere gato hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye, gifite akazu gato gafite amadirishya arimo ibara ry'umweru, ndetse n'urugi rw'igipangu rwubakishijwe ibyuma, rwanditseho mu magambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza ko ari mu ruganda rw'amata.

Sitade nini, irimo mu urubyiruko ndetse n'abakuze, barimo barakora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo, ni benshi bayitabiriye.

umuhanda muremure w'umukara, hi'ryawo hari umuyoboro ucamo amazi wubakishijwe amabuye, imbere gato hari ipoto riri mu ibara ry'umukara ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi ndetse imbere hari abagabo batatu bari kugenda.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure uri mu ibara ry'umuhondo ndetse ku mpande zawo hari imirongo miremire iri mu ibara ry'umweru, imbere harimo ikinyabiziga kiri mu ibara ry'umweru, hirya gato hari ishyamba rigizwe n'ibiti birebire.

Inzu yubakishijwe amabati ari mu ibara ry'ubururu, yicawemo n'abantu batandukanye bicaye ku ntebe ziri mu ibara ry'ubururu, hirya gato hari umusarane wubakishijwe amatafari ahiye, ndetse usakajwe amabati ari mu ibara ry'ubururu.

Inyubako iri mu ibara ry'umweru imbere yayo hari jaride ndetse n'ibiti birebire, ibiti ni byiza bikurura umwuka mwiza ndetse n'imvura.

Inzu y'abagororwa yubakishijwe amatafari ahiye, imbere yayo hari umunara wubakishijwe ibyuma, uri mu ibara ry'umutuku ndetse n'imfungwa zambaye impuzankano irimo ibara rya orange, ziri kugenda mu muhanda w'igitaka.

Imbuga nini yubakishijwe amapave, imbere yayo hari igipangu kinini gifite inkingi zubakishijwe buroke sima kandi gifite urugi rufite amabara atandukanye higanjemo iry'ubururu, mu indani harimo inyubako zubatse zubakishijwe amatafari ahiye.

Icyapa cyanditse mu magambo y'umukara, ubuso bw'umweru, kizengurutswe n'amabara y'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi. Cyanditseho amagambo avuga ngo Akarere ka Nyagatare irembo ry'amahoro.

Ikirere gituje gikeye gisa neza, munsi yacyo hari inzu isize irangi ry'ubururu ndetse isakaje amabati y'ubururu, mo imbere hateyemo irangi ry'umweru.

Ikiraro kiri hejuru y'umugezi, imbere hari umusozi ndetse n'ibumoso bw'ikiraro hari umusozi, ikiraro ni kiza gituma abantu bambukirana bagakora ingendo zitandukanye.

Inzu biragaragara ko hari ibiro by'Akagari hicaye abaturage babiri bategereje umuyobozi ngo bahabwe serivise baje bashaka.

Umujyi mwiza urimo inyubako zitandukanye higanjemo izigeretse, harimo inzu isizwe irangi ry'umuhondo ndetse isakajwe amabati arimo ibara ry'umutuku, iruhande rwayo hari umuhanda munini urimo abantu, ndetse n'ikibuga kirimo ibyatsi.

Inyubako nziza iri ahantutu hatuje hateye ijaride isa neza, imbere yayo hari umuhanda munini ndetse n'amatara amurikira uwo muhanda hari ibyapa bya MTN.

Icyapa gifite ubuso mu ibara ry'ubururu, inyandiko mu ibara ry'umweru, gishushanyijeho imodoka gishinze muri jaride. Inyuma y'icyo cyapa hari inyubako n'abapolisi.

Umuhanda munini w'umukara, urimo uturongo tw'umweru twinshi, hirya y'ho hari ikigo nderabuzima, kigizwe n'inyubako zitandukanye, zubabakishijwe amatafari ahiye ndetse zisakajwe amabati mu' ibara ry'ubururu, imbere yazo hari imodoka yifashishwa mu gutwarare abarwayi, iri mu ibara ry'umweru, iparitse mu mbuga yubakishijwe amapave.

Inzu y'ibara ry'ubururu mu kabaraza kayo harimo abantu, ndetse n'ikinyabiziga cya moto. Imbere yayo hari igiti, n'izindi ndabo zitandukanye.

Inzu nini isakajwe amabati isize amarange y'umuhondo ndetse itamirijwe umurongo w'irangi ry'umutuku mu mpande, ikingishijwe inzugi zisize amarangi y'icyatsi.

Umuhanda ushushanyijemo imirongo abanyamaguru bakoresha bari kwambukiranya umuhanda, iruhande rw'ibumoso n'urw'iburyo hari amatara amukira umuhanda, mu gihe bwije. Ni byiza kwambukira muri iyi mirongo kubera ko abashoferi bayigezeho batwaye ibinyabiziga, bagabanya umuvuduko.

Inzu nini yubakishijwe isima y'umutuku ndetse n'amatafari ahiye, imbere yayo hari abantu benshi, harimo umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye amaherena ndetse yambaye umukenyero, iruhande rwe hari umugabo wambaye isaha ku kuboko ndetse n'ishati y'umukara.

Umugabo wambaye linete ufite indangururamajwi n'ipantaro ya kaki, inyuma ye hari igiti akikijwe n'abantu harimo abagabo n'abagore.

Imbuga nini irimo abantu benshi batandukanye harimo Abasirikare, Abapolisi, Abadaso n'Abasiviri bicaye mu ihema ry'umweru, inyuma yabo hari ibiti birebire, imbere yabo hari akandi gahema k'umweru n'umuntu ubahagaze imbere.

Ikibuga kirimo ibyatsi kicawemo n'imbaga nyamwinshi higanjemo abagabo, imbere hicaye abantu batandukanye higanjemo abashinzwe umutekano, ku ruhande rwabo hari umugabo muremure uhagaze wambaye ishati y'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Abagabo bambaye amakoti y'umukara, amashati y'umweru n'undi wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati y'umweru, inyuma yabo hicaye abantu benshi bicaye ku ntebe z'umukara n'utumeza tw'ibiti ndetse n'amazi.

Inama yahuje abaturage benshi ndetse n'abayobozi bakuru, barimo baganirizwa ku birebana n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu.

Urubyiruko rw'abasore n'inkumi, harimo n'abagabo, bambaye imyenda igiye itandukanye, bafite indangururamajwi mu ntoki, barasa nkaho bari mu gihe cyo kwibuka.

Umuyobozi uhagaze imbere y'abaturage afite indangururamajwi, yambaye ishati y'amaboko maremare ndetse n'amadarubindi, arimo arabaganiriza ku birebana n'ubutabera ndetse n'uburenganzira bwabo.

Umurima w'urutoki urimo abagabo n'abapolisi, imbere yabo hari intebe zo kwicaraho ndetse n'ameza, urutoki ni rwiza ruteza abaturage imbere.

Inzu y'urwibutso iruhukiyemo imibiri y'abayizize Jonoside mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane, hejuru hateretse indabo zo kubunamira.

Ikibuga kinini gitewemo ibiti kicawemo n'imbaga nyamwinshi y'abantu higanjemo abagabo, hari intebe ikozwe mu mbaho yicayeho abagabo harimo umusaza wambaye ingofero y'umutuku, ikote ry'umukara ndetse afite inkoni mu ntoki.

Umugabo wambaye ishati, ipantaro ya kakiyi, afite indangururamajwi mu biganza bye, inyuma ye hicaye abaturage harimo umugabo wambaye ingofero, iburyo bwe hari igiti.

Abagabo bambaye imyenda y'umukara, bicaye ku ntebe z'umukara, harimo n'abandi bambaye ingofero z'umukara, imbere yabo hari uducupa tw'amazi, bambaye n'udutambaro bakoresha bibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane.

Icyumba gikorerwamo inama kirimo urumuri ndetse gisizwe irangi ry'umweru, kirimo imbaga nyamwinshi y'abantu bicaye higanjemo abagabo, imbere hari umupolisi wambaye impuzankano y'igipolisi cy'u Rwanda igizwe n'ibara ry'umukara ndetse imbere ye hari imeza iteretseho amacupa y'amazi.

Abantu barimo abagore n'abagabo, abasirikare n'abapolisi, bicaye ku ntebe imbere yabo hari imeza, inyuma yabo hari amashuri ndetse n'ibiti.

Umuhanda w'inzira nyabagendwa urimo ikinyabiziga gitwara abagenzi, umutwazi w'igare yambaye ijire y'umweru, ibumoso hari akayira k'abanyamaguru.

Ibimera biyanga indabo z'umuhondo biri ahantu ku muhanda, munsi yabyo hari icyapa cy'ubuso bw'umweru kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, kirimo kiraburira umuyobozi w'ikinyabiziga kugenda yigengesereye ndetse kikabuza amagare kunyura aha hantu.

Icyapa gifite ubuso bw'umweru, iruhande rwacyo, hari umuhanda munini w'umukara, urimo imirongo itambitse iri mu ibara ry'umweru, imbere gato hari igipangu kirimo ibiti bifite amashami menshi, ndetse ku ruhande rundi hari ipoto ririho urutsinga rwifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi mu baturage.

Umuhanda wa kaburimbo, iruhande rwawo hari byarigore ndetse hari icyapa, cyanditsemo amagambo y'umweru ndetse n'ubuso bw'umutuku, kivuga ngo sitopu.

Igipangu kibakishijwe amatafari ahiye, iruhande rwacyo hari icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu ndetse gifite ubuso bw'umweru, iruhande gato hari akayira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave ndetse iruhande rwako, hari umuhanda munini w'umukara urimo moto.

Umuhanda, iruhande rwawo hari ibyatsi, hashinze icyapa kereka umuyobozi w'ikinyabiziga ko imbere hari akayira gashamikiye ku muhanda munini.

Icyapa cya mpande eshatu gifite ubuso bw'umweru, ndetse n'ikimenyetso kirimo ibara ry'umukara, hirya yacyo hari umusore wambaye ijile y'umukara agapira k'umweru, imbere ye hari umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga cya moto, imbere yacyo hari inzu nziza yubakishijwe amatafari ahiye, ndetse isakajwe amabati ari mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda munini w'umukara. Imbere yawo hari ipoto ryifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi. Munsi yaryo hari umutaka wa MTN wicawemo n'abantu batandukanye. Iruhande gato hari inzu z'ubucuruzi. Imbere yazo haparitse ibinyabiziga bya moto.

Umumotari wicaye kuri moto ari mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rwe hari amazu y'ubucuruzi, iyi moto yacanye itara kandi ni kumanywa.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga gitwara abagenzi kiri mu ibara ry'umweru ndetse cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, iruhande rwacyo hari igipangu kigizwe na fondasiyo y'amabuye cyubakishijwe ibyuma bisizwe irangi ry'umweru.

Umuhanda munini w'umukara urimo imodoka, inyuma yayo hari moto yacanye itara, ku ruhande gato hari inzu nyinshi zikorerwamo ubucuruzi higanjemo izisizwe irangi ry'umweru, imwe muri yo imbere yayo hari umutaka wa MTN ndetse haparitse ikinyabiziga cya moto.

Inzu nziza yubakishijwe amakaro ari mu ibara ry'umweru, iriho icyapa kigizwe n'ubuso bw'umweru cyanditswemo amagambo ari mu ibara ry'umukara agaragaza ibiryo biboneka muri resitora, inyuma hari icyumba kirimo ibiryo bitandukanye ndetse n'imigati.

Icyapa cya mpandeshatu kigizwe n'ubuso bw'umweru, kiriho ikirango cy'umuntu kiri mu ibara ry'umukara iruhande rwacyo hari imbaga nyamwinshi y'abantu bari kugenda, higanjemo abambaye imyenda y'umukara, hejuru yacyo hari amapoto atandukanye yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi, ndetse n'inzu nziza zisizwe irangi ry'umuhondo.

Icyumba kinini kirimo urumuri gisizwe irange ry'umweru, kirimo abagabo bicaye higanjemo abashinzwe umutekano, kirimo umugabo w'umusirikare wambaye impuzankano y'igisirikare cy'u Rwanda, inyuma ye hari umusore uri gufotora ufite kamera mu ntoki ndetse wambaye umupira uri mu ibara ry'ubururu.

Umurima utema imigozi y'ibijumba, imbere yawo hari umuhanda urimo abantu barimo gukora umuganda bafite ibikoresho bitandukanye, muri bo harimo umukobwa wambaye ingofero y' yumutuku, umupira w'umukara, inyuma ye hari umusirikare wambaye inifuromu ya gisirikare uri kuvugira kuri terefone.

Abasore n'inkumi bikoreye amabuye bari kunyura mu kayira gato kari mu murima w'ibitoki, umukobwa w'imbere yambaye agapira k'umuhondo umukurikiye yambaye ikabutura y'ubururu.

Abaturage harimo abasirikare n'abapolisi, bicaye ku ntebe z'ubururu, imbere yabo hari ameza, inyuma yabo hari ibiti ndetse n'indabyo.

Igiti kigizwe n'amashami menshi, munsi yacyo hari imbaga nyamwinshi y'abantu, higanjemo abahagaze. Muri bo hari umugabo uhagaze, wambaye umupira uri mu ibara ry'umukara, ndetse uriho ifoto ya perezida wa repubulika y'u Rwanda, Paul KAGAME, ndetse yambaye ipantaro iri mu ibara ry'ubururu bwijimye.

Abaturage batandukanye harimo n'abasirikare bari gukora umuganda. Umuganda ni mwiza utuma igihugu gisa neza n'amakaritsiye atandukanye agasa neza kubera umuganda.

Umusirikari wambaye, inifomu ya gisirikari. Ahagaze imbere y'abantu hari ibyo ari kubabwira. Urabona ko iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati ijya gusa umutuku, yambaye n'ingofero y'umukara, barimo bararirimba.

Urutoki rurimo abantu batandukanye harimo: abasirikare n'abapolisi ndetse n'abaturage basanzwe, inzego z'umutekano iyo zegereye abaturage ni byiza basabana na bo bakabigeraho byinshi.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru harimo abasirikare n'abapolisi ndetse n'abaturage basanzwe bari gukiniramo amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup.

Ikibuga kigizwe n'ubutaka kirimo umusore uri kwiruka wambaye godiye, amasogisi ndetse n'ikabutura y'ubururu, inyuma ye hari ikibuga kinini kigizwe n'ibyatsi byinshi, kirimo abantu batatu harimo umusore wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'ikoboyi.

Mu kibuga bakinmo umupira w'amaguru, ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo n'amagisi y'umuho, indodi yambaye imyenda y'ubururu n'amasogisi y'umweru, siporo ni nziza ni ubuzima kubantu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo amakipe atandukanye. Ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo n'amasogisi y'umuhondo, indi yambaye imyenda y'ubururu n'amasogisi y'umweru.

Abasore barimo barirukanka k'umupira uw'imbere wabacitse yambaye imyenda ijya kuba umukara ndetse n'ubururu, abari inyuma ye bambaye umuhondo ndetse n'umweru.

Abasore babiri umwe yambaye amajezi y'umuhondo undi yambaye jezi z'ubururu, barimo barakina umupira bari mu kibuga cyiza gisa neza, hirya yabo hari abantu baje kwitegereza uko bari gukina.

Umugabo uhagaze imbere y'abarimo bakora siporo, bigaragara ko ari umutoza iruhande rwe ahagaze umugabo w'umusirikari wambaye inifomu. Inyuma yabo hari aho abafana bicara ndetse birasa nk'aho bahagaze mu kibuga.

Ikibuga kigizwe n'ibyatsi kirimo ikipe y'abakinnyi bakina umupira w'amaguru higanjemo abambaye amajezi arimo ibara ry'umuhondo. Harimo umugaridiye wambaye amajezi ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse arimo uturongo turi mu ibara ry'umuhondo, ku ruhande hari umugore wambaye jezi irimo ibara ry'umutuku ndetse n'ipantaro iri mu ibara ry'umukara.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaguru, ikipe imwe yambaye imyenda y'umuhondo indi yambaye imyenda y'ubururu, umupira w'amaguru ni mwiza kuko ni siporo kandi siporo ituma abantu babaho ubuzima bwiza.

Umuhanda munini w'umukara, urimo umurongo munini w'umuhondo, ndetse n'abana bari gukora imyitozo ngororamubiri, bari kwiruka. Hirya y'abo hari akayira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave, inyuma cyane hari amatara yo ku muhanda amurikira ibinyabiziga, ndetse n'abagenzi, Hirya yayo hari imodoka nini irimo ibara ry'umuhondo.

Abasore babiri bambaye, imyenda ya siporo, barimo barakina umupira, umwe w'imbere ni muremure, yambaye amasogisi y'umutuku.

Sitade igizwe n'ikibuga gifite ibyatsi bitandukanye, ndetse n'inyubako isakawe, muri stade harimo abakinnyi bambaye amagezi ari mu ibara ry'umukara, ndetse na orange. Umwe muri bo yambaye godiyo z'ibara ry'umweru, ndetse n'amasogisi ari mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa kinini kigizwe n'ubuso bw'ubururu bwijimye, kiriho ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'umweru, agaragaza uko amakipe yatsindanywe mu Murenge Kagame cup bibiri na makumyabiri na kane bibiri na makumyabiri na gatanu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, imbere yacyo hari abantu batandukanye bari gukora siporo ngororamubiri, siporo ni nziza zituma abantu bazikora bagira mu buzima bwiza.

Umusore ukiri muto, wambaye imyenda ya siporo, yambaye amasogisi y'umweru ndetse na godio z'icyatsi. Arimo aragenda mu kibuga birasa nk'aho arimo gukina.

Ikibuga kinini gikinirwamo umupira w'amaguru kirimo umurongo munini uri mu ibara ry'umweru ndetse na baro kandi harimo abakinnyi bane, babiri bambaye amajezi ari mu ibara ry'ubururu ndetse abandi babiri bambaye amajezi ari mu ibara ry'umuhondo.

Abasore batandukanye bamwe bambaye impuzankano y'umweru hasi oranje bari mu kibuga biragaragara ko bagiye gukina umupira.

Siporo ni nziza ku buzima bwacu, aba ni abantu babyukiye muri siporo rusange barimo baragabanya ibinure ndetse barimo birukanka bari hamwe.

Ahantu hateraniye imbaganyamwinshi y'abantu, higanjemo abana ,imbere yabo hari itsinda ry'abakobwa bambaye amajezi agizwe n'imipira y'umuhondo ndetse n'amakabutura y'umukara, bari kwambikwa imidari n'umugore wambaye ingofero, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara.

Abantu batatu bafite icyapa kirimo ubuso bw'umweru ndetse kiriho ikirangantego cya Repubulika y'u Rwanda cyanditsweho amagambo ari mu ibara ry'ubururu agaragaza uwatsinze amarushanwa y'Umurenge Kagame Cup, harimo umugore wambaye amarinete ndetse n'ishati y'umukara, hagati hari umugabo uteruye igikombe ndetse ku ruhande hari umusore wambaye amajezi ari mu ibara ry'ubururu ufite balo.

Umugabo w'umwirabura, wambaye amarinete, ndetse n'umupira urimo uturongo tw'umukara dutandukanye, afite mikoro. Inyuma ye hari ikibuga kinini, kiri mu ibara ry'umutuku, ndetse n'utuzu dutoya twubakishijwe ibyuma turi mu ibara ry'ubururu.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, ikipe imwe yambaye imyenda y'ubururu indi yambaye iy'umutuku n'amakabutura y'umukara, siporo ningenzi yo mubuzima bwabantu.

Umuhanda nyabagendwa ufite akayira k'abanyamaguru iburyo n'ibumoso, umuhanda ni mwiza utezimbere ahantu unyuze mu buryo bwihuse kandi vuba.

Imuyoboro utwara amazi ya ruhurura, uyavana mu muhanda werekeza mu bishanga. Usakajwe na borodire zikozwe muri sima, ibi birinda impanuka, cyangwa se abana bato bakaba bagwamo.

Umuhanda munini w'umukara urimo uturongogo ducagaguye turi mu ibara ry'umuhondo, imbere hari ikinyabiziga kifashishwa mu gutwara ibintu, imbere yacyo hari abantu batandukanye ndetse hari umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse n'ikoboyi, imbere ye hateye ibiti bitandukanye.

Umuhanda w'amapave iruhande rwayo hari jaride, urundi ruhande hari akayira k'abanyamaguru kigiye hejuru karimo abantu batandukanye, umuhanda w'amapave ni mwiza utuma karitsiye zitera imbere byihuse.

Umuhanda munini w'umukara urimo moto itwawe n'umusore wambaye kasike umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, hirya gato hari akayira gacamo abanyamaguru kubakishijwe amapave ndetse imbere gato, hari amatara yo ku muhanda yifashishwa mu kumuririka ibinyabiziga ndetse n'abantu.

Umuhanda munini w'igitaka, ku ruhande rwawo hari ibyatsitoshye ndetse imbere gato hari igipangu cyubakishijwe amatafarihi ahiye kandi hari igiti gifite amababi y'icyatsi, imbere hari inzu nziza zisakajwe amabati arimo ibara ry'umutuku.

Igipangu kiri ku muhanda gifite jaride imbere yacyo, mu imbere hateyemo ibiti birebire, ibiti ni byiza bituma ahantu haboneka umwuka mwiza aho bite.

Umuhanda munini w'umukara urimo umurongo muremure urimo ibara ry'umuhondo, ndetse ku ruhande gato hari akayira k'abanyamaguru kubakishijwe amapave. Umuhanda ni ingenzi kuko woroshya imihahirane hagati y'ahantu n'abandi.

Agahanda k'abanyamaguru ku bakishijwe amapave karimo umugore ukenyeye igitenge wambaye inkweto zirimo ibara ry'umutuku ndetse yambaye umupira kandi akenyeye igitambaro mu mutwe, hirya ye hari ikibuga kinini kirimo ibyatsi.

Umumotari ahetse umugenzi bombi bambaye kasike z'umutuku barimo baragenda mu muhanda w'amabuye, moto ziparitse ku ruhande rwabo birasa nk'aho bari kuzikorera isuku ndetse banazikanika.

Umuhanda munini w'umukara urimo imirongo icagaguye iri mu ibara ry'umuhondo, hirya gato hari moto iriho umugabo wambaye kasike iri mu ibara ry'umutuku, umupira w'umuhondo ndetse atwaye umugore, imbere ye hari igipangu cyubakishijwe amatafari ahiye kirimo ibiti bitandukanye.

Umuhanda munini w'umukara ukikijwe n'akayira k'abanyamaguru kubabakishijwe amapave urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo, hirya yacyo hari inzu zikorerwamo ubucuruzi butandukanye higanjemo izisizwe irange ry'umuhondo, imbere yazo hari amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.

Umuhanda w'inzira nyabagendwa urimo moto, iruhande rw'iburyo hari akayira k'abanyamaguru, umuhanda ni mwiza, ahantu hari umuhanda hatera imbere muburyo bworoshye kandi vuba.

Umuhanda nyabagendwa, urimo moto. Umuhanda, ni igikorwaremezo cyiza, gifasha abaturage gutera imbere, kubera ko babona ko bageza ibicuruzwa byabo ku masoko, n'ahandi hantu hatandukanye.

Ikibuga kinini cyane kirimo amakona menshi arimo ibara ry'umutuko ndetse n'ibinyabiziga byifashishwa mu kwigisha imodoka, harimo kimwe kirimo ibara ry'ubururu, hirya yacyo hari ikirimo ibara ry'umutuku, inyuma yabyo hari ishyamba rinini rigizwe n'ibiti byinshi.

Umuhanda munini w'umukara urimo ikinyabiziga cya moto gitwawe n'umugabo wambaye kasike y'umukara, inyuma ye hari ikinyabiziga cy'imodoka ndetse ku ruhande hari akayira k'abanyamaguru karimo icyapa gikozwe muri mpande eshatu ndetse gifite ubuso bw'umweru.

Umuhanda munini w'umukara, ku ruhande rw'aho hari umurongo muremure uri mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umugabo uri gusunika igare ririho imizigo wambaye ipantaro y'ubururu irimo imirongo y'umweru ndetse n'agapira kari mu ibara ry'icyatsi, hirya gato hari ikibuga kinini k'ibyatsi ndetse n'amapoto yifashishwa mu gukwirakwiza amashanyarazi.